Umurima uteyemo imiti ya gakondo, iyo miti ikaba ikoreshwa n'abavuzi bavura indwara, indwara za gakondo, ziganjemo amarozi n'andi marwara y'amayobera.

Umurima wamezemo ibyatsi byinshi cyane. Ni ibyatsi bikuze bimaze kuba ibyatsi birebire bishobora kuba byaribwa n'amatungo nk'inkatama ndetse n'ihene.